Imodoka imbangukiragutabara itwara abarwayi barembye, ibavana ahantu hamwe ibageza ahandi iraparitse, isa nkaho itegereje ko hari umurwayi ujyamo kugira ngo imujyane ku bitaro bikuru.

Icyumba giteguyemo ibitanda, byose biriho abantu. Bamwe bararyamye abandi baricaye, bisa nkaho ari kwa muganga, aharwarira indembe zikeneye ubufasha bwihuse.

Imbaga y'abantu benshi bateraniye ahantu hamwe bamwe muri bo bambaye amajire asa umutuku ndetse n'udupfukamunwa dusa umweru n'umukara bahagaze imbere y'imodoka, hirya yabo hari inyubako ifite amatafari ahiye.

Icyumba kirimo igikoresho kiri mu mabara y'umweru, harimo umumama wambaye agapfukamunwa, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikanzu isa ubururu, hari kandi n'ameza ateretseho ibikoresho byinshi bitandukanye, arimo arabyitegereza.

Umugabo wambaye akajire gasa umutuku ndetse mu mugongo harimo akabara k'umweru ndetse n'ikimenyetso cy'umusaraba, ari kumwe n'abandi bantu, barimo gukata icyondo cyo kubumbisha amatafari azubakishwa inzu, imbere yabo hahagaze abandi bantu ndetse hari n'amajerekani atatu.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda, ndetse n'akandi gakoresho gafite amapine, harimo uducupa twa sanitayiza, dukoreshwa mu kwica mikorobe ziba zafashe ku ntoki, umuryango w'icyo cyumba urafunguye.

Icyumba kirimo abagabo bambaye imyenda y'imyeru ndetse bipfutse hose mu maso, imbere yabo hari undi mugabo ufashe ga mu ntoki ze ndetse wambaye na baji mu ijosi, hirya gato hari undi mugabo uri kubahereza indi ga.

Umugabo wambaye ikote risa umukara, harimo uturongo dusa umweru, yambaye n'ikoboyi isa umukara, yifashe mu gahanga, iruhande rwe ibumoso hateretse agacupa k'amazi ndetse n'akandi gafuka, gasa umutuku.

Inyubako irimo abantu benshi bicaye mu buryo bukoze uruziga, hari umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi uhagaze urimo kubagezaho ikiganiro, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Umukobwa ukorera inzego z'igihugu z'umutekano cy'u Rwanda ndetse n'undi muzungu wambaye impuzankano ya gisirikare, bose bafatanyije, bari kuvura umwana indwara zigiye zitandukanye.

Abagabo batandatu ndetse n'umumama umwe .Bamwe bafite amakaramu mu ntoki ndetse hari umugabo wambaye ijire y'umutuku ndetse n'umweru .Iruhande rwabo hamanitse agatambaro gasa umweru ndetse kariho n'ikimenyetso cy'umusaraba.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye amajire asa umutuku, inyuma mu mugongo harimo ikimenyetso cy'umusaraba, bicaye ahantu mu cyumba ku ntebe zifite ibara ry'umweru, bari kumwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru bisa nkaho hari ikintu bagiye kumupima.

Umuganga w'umumama, wambaye itaburiya isa ubururu. Hari umurwayi uryamye ku gitanda, ndetse uwo muganga yambaye agakoresho, bifashisha bapima uko umutima utera. Bari mu nyubako irimo ibikoresho byinshi bitandukanye, byifashishwa mu kuvura.

Icyumba gihuriwemo n'abantu benshi batandukanye harimo abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari umumama uhagaze bisa nkaho hari ikintu arimo kubaganiriza, imbere y'abo bantu hateretse mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho barimo gukoresha.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako, bambaye udupfukamunwa dusa icyatsi utundi dusa umweru, umugabo umwe afite igitabo gisa umukara mu ntoki ze, yambaye amarinete ndetse inyuma yabo hicaye n'abandi bantu.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga, mudasobwa hicayemo umugabo wambaye imyenda y'umweru, ishati ndetse n'ipantaro, ndetse n'umumama ukikiye umwana wambaye agatambaro mu mutwe gasa umukara.

Icyumba gisa neza gifite amabara y'umweru. Kirimo igitanda cyiza nacyo gifite amabara yu'mweru, icyatsi ndetse n'ubururu. Gikoreshwa cyane cyane kwa muganga muri serivisi z'ubuvuzi.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yambaye mu ijosi agakoresho bakoresha bari gupima uko umutima utera ndetse n'uko amaraso ari gutembera mu mubiri afite ikaramu mu kaboko ke k'iburyo arimo kwandika ku rupapuro.

Abagabo bagera muri batanu, bamwe bambaye amataburiya y'umweru, bahagaze imbere y'inyubako ku muryango hejuru hariho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara, inyuma yabo hari undi muntu utagaragara neza wambaye agakote gasa icyatsi.

Umugabo wambaye ishati irimo utubara dutandukanye ari kumwe n'umumama ukenyeye igitambaro arimo guseka arishimye, barimo guhererekanya impamyabushobozi inyuma yabo hari icyapa gihari, hari urugi rurimo amarido maremare.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye: aho bakarabira, igitanda gifite amabara: umweru, icyatsi ndetse n'ubururu. Kifashishwa muri serivisi zubuvuzi kwa muganga. Mu gihe umurwayi aje arembye niho bamuryamisha.

Abantu benshi higanjemo abagabo ndetse n'abagore, bahagaze imbere y'inyubako bambaye amajire asa umutuku, ndetse harimo n'uturongo dusa umweru, bari guseka barishimye cyane.

Abagabo batatu ndetse n'umumama umwe. Abagabo batatu bambaye amatabuririya y'umweru ndetse undi yambaye esarobeti y'icyatsi; ni kwa muganga hari umurwayi w'umugabo usa nku'ukuze urimo serumu aryamye ku gitanda hirya ye hari ikindi gitanda kitariho umurwayi.

Icyumba kirimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru ndetse na marinete, imbere ye hari umwana ndetse n'icyuma, uwo muganga arimo kureba ikibazo uwo mwana yaba afite mu jisho.

Umuntu utagaragara mu maso wambaye uturindantoki dusa ubururu ndetse wambaye n'agapfukamunwa gasa icyatsi arimo aritegereza amaraso yashyize ku gakoresho kifashishwa mu gukusanya amaraso ndetse imbere ye hateretse ikindi gikoresho cyifashishwa mu kureba indwara zananiranye.

Umugabo wambaye ga zisa umweru arimo gupima umwana akoresheje agakoresho kabugenewe gapima amaraso kugira ngo age kurebamo uburwayi bugiye butandukanye uwo mwana ashobora kuba yarwaye.

Umumama wambaye itaburiya y'umweru ndetse ufite n'imisatsi isa umukara, arimo kureba mu gakoresho, bifashisha bareba udukoko tutaboneshwa amaso kugira ngo arebe neza, icyaba cyateye uburwayi.

Umumama waje kwaka serivisi zijyanye n'ubuvuzi, umugabo wambaye itaburiya y'umweru arimo kumupima amaraso, imbere ye ateretse udutesite twifashishwa mu gupima ayo maraso aba amaze gufatwa.

Uducupa twinshi duteretse ku meza afite ibara ry'umweru, dufite udufuniko turi mu mabara y'umuhondo bisa nk'aho ari ibinya batera umurwayi bagiye kumukorera operasiyo.

Ibiganza by'umuntu utagaragara neza mu maso. Imbere ye ku meza hateretse amakaramu ndetse hariho n'urupapuro rushushanyijeho amaraso. Hari ibyo arimo kwitegereza ashaka kureba.

Icyumba kirimo abana benshi batandukanye ndetse harimo n'intebe bicaraho, harimo umugabo wambaye ijire urimo kubafasha kubasukira igikoma cyo kunywa, hirya gato hari ikibaho gifite ibara ry'umukara.

Umu mama uhetse umwana mu mugongo, amukenyeje agashura k'umweru, ari kumwe n'undi mwana amufashe mu kaboko ke k'iburyo, akaboko ke k'ibumoso gafashe marete, bari kujya ku nzu ifite amarangi y'ubururu, ni kuri posite dosante.

Abana babiri bicaye imbere ya za mudasobwa, ziteretse ku meza afite ibara ry'umutuku, barimo barareba muri mudasobwa kugira ngo bagire ibyo bashakamo biyongererere ubumenyi.

Abakobwa bane ndetse n'umusore umwe bose barahagaze, imbere yabo hari abamama bahicaye bisa nk'aho batwite baje kwisuzumisha inda, kugira ngo barebe uburyo umwana amerewe mu nda.

Umumama wambaye itaburiya isa ubururu ndetse wambaye n'amarinete, afite terefone mu kuboko kwe kw'ibumoso , imbere ye hari undi mu mama wambaye ipantaro y'umukara, hirya yabo hari urugo rwubakishije imiyenzi ndetse n'inzu yubakishije amatafari ahiye, bicaye ku ntebe.

Icyumba kirimo abana umwe muri bo afite igikombe arimo kunywa bisa nk'aho ari kunywa inshyushyu arimo kwitegereza umuntu cyangwa se ikintu kitagaragara, inyuma yabo hari abandi bantu bahahagaze.

Abantu benshi bari ahantu hamwe abagabo ndetse n'abagore, imbere yabo hari abandi bamama bahagaze umwe wambaye amarinete undi ntayo yambaye, hateretse kandi akameza kariho amasafuriya abiri arimo ibikombe ndetse hari n'agacupa k'amazi.

Icyumba kirimo abana benshi batandukanye bamwe bambaye imyenda isa umuhondo abandi bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, harimo umugabo wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara bicaye ku micyeka bari kunywa igikoma.

Abamama bambaye amataburiya y'umweru umwe muri bo yambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete ari gufata ibizamini ku ku mumama wambaye agatambaro mu mutwe k'umukara kugira ngo arebe ikibazo yaba afite, hirya yabo hari abandi bantu.

Umumama ukikiye umwana munini bisa nkaho afite ubuzima bwiza, yambaye akagofero gashya umweru, arimo kumuha ibere bicaye mu ntebe ifite ibara ry'ubururu.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe bamwe muri bo bitwikiriye imitaka bisa nkaho hari izuba ryinshi, inyuma yabo hari inyubako zubakishije amatafari ahiye.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi ufite n'agatabo mu kaboko ke k'ibumoso. Akaboko ke k'iburyo gafashe indangururamajwi, bisa nkaho hari ikintu arimo kuvugira mu mbaga y'abaturage. Inyuma ye hari abana ndetse n'abamama bahahagaze.

Icyumba kirimo ibitanda bibiri ndetse n'igikoresho cyifashishwa mu gutwara igikoma, icyayi, ndetse n'amazi, harimo umuganga wambaye imyenda y'imyeru, arimo guseka bitewe n'uko umu mama yabashije kubyara kandi neza.

Abagabo batatu umwe wambaye itaburiya y'ubururu, bari kumwe n'umumama umwe, bari gupima umwana uburebure, bakoresheje igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu gupima abana, iruhande rwabo hari udukweto tubiri twuwo mwana.

Inyubako yubatse ahantu ha yonyine, umuryango wayo urafunguye. Inyuma yayo hateye ibiti byinshi bitandukanye. Ifite imbuga ihagije cyane ku buryo habaye hari imodoka zabona aho ziparika.

Umumama wambaye ibitenge uteruye umwana, bari guseka barishimye, inyuma yabo hari abandi bantu bicaye ku ntebe, hari kandi n'abandi babiri bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga ari byo mudasobwa, inyuma yabo hari ibyapa bihamanitse bibiri.

Umumama uhagaze werekanye amenyo, yambaye kositimu ndetsemo imbere yambariyemo agapira gasa icyatsi, inyuma ye hari icyapa cyanditseho RBC, iruhande rwe hirya hari abana bari kumureba, hari mikoro zimuriho ari kuvugiraho.

Imbaga y'abantu benshi batandukanye, biganjemo abagabo ndetse n'abagore. Bicaye ku dutebe dukozwe mu mbaho. Inyuma yabo hari imifuka myinshi iharunze iri mu mabara y'umweru. Bari mu nyubako yubakishijwe amatafari ahiye.

Abagabo batatu ndetse n'abana babiri bahagararanye n'abadamu bambaye imyenda y'abihayimana, inyuma yabo hari ibiti bihateye ndetse iruhande rwabo hari n'inyubako ifite amadirishya.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye asize irangi ry'umutuku, imbere ku rukuta hariho igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro kizwi nka kizimyamwoto. Umuryango usize amabara y'umuhondo ndetse hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu.

Icyapa kiriho amazina y'abantu ndetse n'inshingano bagiye bafite, hariho kandi amagambo yanditse mu ibara ry'umuhondo ndetse icyo cyapa kirasa umukara wererutse.

Imbaga y'abantu benshi bamwe bahagaze imbere abandi baricaye, bari mu nyubako ifite urukuta rwa oranje ndetse inyuma hari ibyapa bigera kuri bitatu, kimwe cyanditseho ijambo avega.

Inyubako icururizwamo imiti ivura indwara zitandukanye zifata abantu. Imiti y'ubwoko butandukanye itondetse neza mu ma etajeri yayo. Ubaye warwaye cyangwa se ufite ikindi kibazo wumva utameze neza, wabagana bakabasha kuguha umuti uhuye n'indwara warwaye.

Inyubako ifite irangi ry'umweru ndetse ifite n'imiryango ifite ibara ry'umukara, imbere hariho icyapa kiri mu mabara y'icyatsi hariho ibishushanyo by'inka, ihene ndetse n'intama, bisa nk'aho ari ahantu hacururizwa imiti y'amatungo.

Umugabo ndetse n'umugore bose bambaye imyenda isa n'umweru, bahagaze ahantu hacururizwa imiti ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abantu.

Imeza irambitseho ibikoresho byifashishwa n'abaganga ndetse n'abandi bantu bakora ubuvuzi, byifashishwa cyane cyane mu gukata ndetse no gufata imitsi y'amaraso.

Imiti myinshi itandukanye iri mu mabara y'amoko menshi, iteretse ahantu mu buryo bwiza mu ma etajeri atandukanye, yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata abantu, ushaka kuyigura waza hano bakayiguha ku giciro kiza.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bw'imiti ivura abantu, hahagazemo umugabo wambaye ishati ifite amabara y'umuhondo ndetse n'umukara, arimo kwitegereza imbere mu muryango. Iyi miti igiye iri muri etageri zigiye zitandukanye.

Imiti igiye itandukanye y'amoko menshi yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye, itondetse ahantu muri etajeri imwe kuri imwe, mu buryo bugaragariye amaso, ifite isuku irakeye, ifite n'ubuziranenge.

Umugabo uhagaze arimo kwitegereza yambaye itaburiya y'umweru ndetse mo imbere yambariyemo ishati y'umweru, inyuma ye hari imiti itondetse muri etajeri igiye itandukanye ikoreshwa mu kuvura uburwayi.

Abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ntebe bazengurutse bakoze uruziga, bari kuganira ku byabateza imbere bityo bagakomeza kwiteza imbere mu mibereho yabo ya buri munsi.

Abantu benshi higanjemo abagore ndetse n'abagabo bateraniye ahantu mu mbuganga ngari bamwe baricaye abandi barahagaze, iruhande rwabo hari icyapa ndetse hari n'ikindi cyapa gifashwe n'abagabo babiri mu ntoki zabo, inyuma babo hari imodoka ndetse n'andi mazu ahubatse.

Icyapa kiriho abantu babiri umwe wambaye ishati y'umweru ndetse n'amarinete hariho n'amazina yabo, hejuru yabo hari ijambo insanganyamatsiko bisa nkaho hari igikorwa kizaba ku munsi runaka.

Abanyeshuri bose bambaye imyenda isa umweru ndetse n'ubururu, bafite n'udupapuro mu ntoki dusa ubururu ndetse n'umweru, bari kumwe n'umwarimu wabo wambaye itaburiya y'umweru, ndetse n'ipantaro y'umukara, bafite kandi n'icyapa mu ntoki zabo.

Imiti gakondo ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye, iri ahantu hamwe, iteretse mu dukoresho dufite ibara ry'ivu, iyi miti kandi ubaye uyikeneye waza ukayigura ukajya kuyikoresha.

Umumama wicaye ku gatebe, yambaye ikabutura y'umukara ndetse na silipa zisa ubururu, arwaye akaguru kuko karabyimbye cyane, nta cyizere afite y'uko gashobora kuzakira.

Inkoko iriho imiti gakondo, igiye itandukanye. Iri mu ducupa tugiye dutandukanye, hari agacupa gafite ibara ry'umweru. Hari n'imiti yindi y'ibyatsi, iri ahongaho.

Ibiganza by'umuntu utagaragara mu maso, ufite agakoresho basekuriramo ndetse n'ako bakoresha basekura. Arimo gusekura ibyatsi bisa nk'aho hari umuti gakondo arimo kuvanga kugira ngo bibyare umuti runaka.

Inyubako ifite amabara y'ubururu, imbere handitseho icyapa Girubuzima, harimo abantu benshi bicayemo, imbere yaho hari umuma ufite indangururamajwi mu ntoki, ndetse wambaye n'imikenyero ahagaze mu kibuga cy'igitaka.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu. Handitseho ijambo gira ubuzima. Iruhande rwayo hari umugabo wambaye impuzankano ya gisirikare. Hirya gato hateye ibiti.

Imiti y'ubwoko bugiye butandukanye, ipanze mu dushashi turi mu mabara y'umuhondo, duteretse ahantu muri etejeri ikozwe mu mbaho, bisa nkaho ari imiti ivura inyamaswa zigiye zitandukanye.

Abagabo bane ndetse n'umumama ufite udutabo mu ntoki ze, yambaye amarinete y'umukara, bari kugenda bava ku nyubako isa ubururu yanditseho ijambo gira ubuzima, imbere muri iyo nyubako hari abandi bantu babiri bicaye ku ntebe.

Inyubako iri mu mabara y'ubururu, yanditseho amagambo ''girabu ubuzima''. Hahagazemo umugabo ndetse n'umuma, imbere y'iyo nyubako hari igikoresho kiri mu mabara y'umweru, cyifashishwa mu koga kugirango ngo hirindwe indwara.

Abagabo babiri ndetse n'umunma umwe, umwe muri abo bagabo arahagaze undi aricaye hari ibyo ari kwandika ku rupapuro, umugabo umwe wambaye itaburiya y'umweru arimo kuganiriza umumama bisa nk'aho ari kwa muganga.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, ahagaze imbere ya kandagira ukarabe iri mu ibara ry'umweru, arimo gukaraba yikuraho umwanda waba wamugiye ku ntoki, imbere ye hari abandi bantu bahagaze ku nyubako ifite ibara ry'ubururu.

Abagabo ndetse n'abagore, higanjemo abambaye amatabuririya asa ubururu, bazwi nk'abajyanama b'ubuzima. Barishimye bari guseka, bisa nk'aho hari igikorwa cyabahurije aho.

Icyumba kirimo ibitanda bigiye bitandukanye hari ibiriho abantu ndetse hari n'ibiriho ubusa. Buri gitanda kigiye gifite supanete yacyo iri mu ibara ry'umweru, icyo cyumba gifite parafu isa umweru inkuta nazo zirasa umweru.

Inyubako ifite amabara y'ubururu ndetse n'amabati y'icyatsi, inyuma yayo hateye ibiti birebire, ndetse imbere yayo hari abantu benshi higanjemo aba mama ndetse n'abagabo baje kwaka ubufasha bugiye gutandukanya.

Umumama ufite imisatsi isa umukara, ndetse wambaye n'ishati y'umweru. Imbere ye hari mudasobwa, arimo ararebamo. Hateretse kandi ameza ariho igitambaro gisa umweru. Hirya hari etajeri irimo imiti.